Umukobwa wambaye ishati y'ubururu, akaba yambaye agapfukamunwa, afite ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, afite mudasobwa yifashishwa mu ikoranabuhanga.

Ikimera giteye mu murima, kikaba gifite amabara y'icyatsi, gikoreshwa mu buvuzi gakondo, abantu benshi bagikoresha bivura indwara zitandukanye.